Umurima uhinzemo amasaka asa neza kuko yitabwaho, ikindi kandi atanga umusaruro ushimishije kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi amasaka avamo igikoma, ikindi kandi bayajyana ku isoko kuko barayagura ikindi kandi avamo amafaranga.

Ibyatsi bigiye bitandukanye, ikindi kandi harimo ibiti twita inturusu, harimo n'ibindi byatsi, ikindi kandi harimo n'amabuye bita amakoro, ikindi kandi barabyifashisha kuko ibiti barabyubakisha, ikindi kandi amabuye akora imihanda.

Umurima uhinzemo ibiti bisa neza kuko byitaweho bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi bashyizeho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi bivamo umuti, ikindi babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga.